Turi kwa muganga, twaje gutanga igitonyanga, turi kumwe n'abagore batatu, na njye wa kane uri gutanga igitonyanga ndi guha umwana, hirya ye hari umusore, hagati y'uwo musore hari umumama, ari we mama we.

Urusenda, ibishyimbo, inyanya, voka, n’imiteja. Harimo n'ibishyimbo.

Kwa muganga ubwo twari turi kuvura umurwayi byaje gukomera cyane tumujyayo turi abaganga benshi, haza abaganga bandi, abaganga bakuru, abandi baganga, bamwe bahagaze bari kugirana inama n'abandi bari hirya ya bo, umurwayi twari tumusoje ameze neza.

Ayo ni ya maraso bajyana kwa muganga, bagatera umuntu urwaye wagize igikomere, umuntu wabazwe wawuvuyemo amaraso menshi n'umuntu ubona afite indwara ku buryo ntamaraso yari afite mu mubiri. Ayo ni ya maraso nyine batera abarwayi kugira ngo wongere ugarura amaraso.